Ikigo cy'amashuri gifite inyubako nziza igezweho, mu mashuri abanza yigwamo n'abana batoya, biteguye kujya muri segondere, ku muryango hakaba hari porutaye ndende bafunga iyo abana batashye, bagafungura iyo abana baje ku ishuri.

Ishuri ryubatswe n'amatafari ahiye ,hakaba harimo ikibaho cyanditsweho, hakaba harimo n'intebe ya pipitire iriho amakayi ari mu gakapu kadoze mu mwenda ,hakaba harimo umuntu uri kuri iyo pipitire, harambitswe ibitabo ndetse n'akabati kingwa.

Amashuri y'abana biga pirimeri amashuri yubatse ku buryo bugezweho bakaba bayigiramo ubumenyi, bubafasha mu buzima bwabo ndetse buzafasha n'igihe cyabo cy'ahaza. Ayo mashuri munsi y'ishuri rigeretse hakaba harimo udutabulete bicaraho iyo bakurikiye amasomo.

Ikigo cy'amashuri kigirwaho n'abana, inyuma yacyo hari ikibuga cya basikete bolo gikinirwaho umukino w'intoke, ukinwa n'abantu batanu. Batanu kuri buri kipe, bagakina batsindana bamarika mu gapaniye akaba ariho igitego kiba.

Amashuri y'abana biga pirimeri akaba yubakishijwe amatafari ahiye, akaba yubatswe mu buryo bugezweho. Hakaba hari igikoni ahantu abana bavoma amazi bakoresha isuku boga cyangwa koza ibikoresho bakenera ku ishuri.

Ishuri ribanza ryubatswe ku buryo bugezweho, ryubakishije amatafari ahiye ya Ruriba. Ku ruhande hakaba hari akadomoro, ndetse n'igishushanyo cy'umwana upfukamye, bishatse kugaragaza ko bari kwerekana uko ishuri ritanga uburere n'ubu...

Ikigo cy'amashuri cyubatswe ku buryo bwa etaje bigeretse. Kikaba cyigisha imyuga itandukanye. Harimo nk'ububaji, ubwubatsi. Hakaba inyuma y'amashuri hari ikibuga baza gukoreramo puratike, ndetse hakaba hari n'ibiti bizana amahumbezi, iyo abanyeshuri baruhutse.

Ishuri ririmo intebe n'ameza. Abanyeshuri biga mu ishuri ryisumbuye; muri segonderi baza kwigiraho imyuga itandukanye, bitewe n'isomo mwarimu agiye kubigisha. Muri ako kanya baza muri ekole pulatike.

Muri kwiga mu mashuri yisumbuye bakaba bari muri puratike, bari muri rabo barasuzuma ibikoresho bifashisha mu kazi kabo, bitewe n'isomo barimo kwiga.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bambaye impuzankano, ndetse n'ingofero bita za Kasike, bakaba bari kure bitegereza ibikorwa by'imyuka, harimo gucaginga amaterefone, bayacayinze ku meza bakoze.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'imyuga, bakaba bari gukanika umugezi, umugezi ukaba ugomba kujya wohereza amazi mu kiduki ,cyangwa se akagega gatoya gafata amazi. Nyuma abantu bakajya barayakoresha mu buzima bwabo bitewe n'icyo bagiye gukoresha ayo mazi.

Abanyeshuri bari mu cyumba twakwita raboratwari, bigiramo ubumenyi butandukanye. Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye, ariyo segonderi bakaba biga isomo ry'ubutabire, bakajya umu ngumu muri raboratwari, kugira ngo babashe gusobanukirwa, kugira ngo bazabashe kujya ku isoko ry'umurimo.

Abanyeshuri bambaye impuzankano bo mu mashuri yisumbuye, bakaba biga imyuga ijyanye n'ubudozi bw'amamashini, bakadoda imyenda bitewe na mode bashaka kudoda, bakaba bari kwiga umwuga uri ku isoko ry'umurimo, ushobora kubahesha amafaranga mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abo banyeshuri bari mu ishuri, mu isomo rya paratike, uburyo bashobora kwiga gukanika mudasobwa, kugira ngo ibashe gusubira kuri gahunda iyo yapfuye. Bari ku ruziga, bari kureba uburyo bakwifashisha za mudasobwa bakoresheje uburyo butandukanye.

Abanyeshuri biga muri segondere，biga imyuga itandukanye ariyo igezweho ku isoko ry'umurimo， kugira ngo babashe kwihangira akazi bifashishije ubwenge bize mu ishuri，bakifashisha ubudozi，bifashishije imashini，ububaji， bakoresha ibikoresho bitandukanye， ndetse bakajya babona amafaranga.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye. Bari mu ishuri, bari kwiga. Bakaba bicaye mu magurupe, bari kwibukiranya ibyo bamaze kwiga cyangwa se ibyo bize, kugira ngo bafatikanye kugenda bahugurana.

Abana bo mu mashuri yisumbuye biga ibijyanye n'imyuga, akaba ari mu cyumba kirimo kompiyuta ,ndetse n'ibindi byuma bikoreshwa n'amashanyarazi ,iyo babicometse kuri purize bakabikoresha, cyangwa se bakabisana iyo byangiritse.

Abanyeshuri biga ibijyanye n'imyuga mu mashuri makuru ariyo segonderi. Akaba ari abakobwa kenshi biga umurimo wo gusuka imisatsi y'abadamu cyangwa se abakobwa. Uwo murimo ukazabahesha akazi, ko kugira ngo bajye bahabwa amafaranga abatunga.

Abanyeshuri bo muri segonderi biga ibijyanye n'imyuga, muri iyo myuga harimo ubudozi bwifashisha imashini zidoda n'amaguru ,hanyuma bakadoda ibintu bitandukanye bitewe n'icyo bari kwiga ,kugira ngo bazajye ku isoko ry'umurimo ,bazi akazi ko gukora mu budozi.

Abanyeshuri bo mu ishuri ryisumbuye ry'imyuga. biga imyuga itandukanye, bakaba bateraniye hamwe mu ishuri, bari kumeza, bambaye impuzankano isa n'ibigofero by'akazi, bafite umugozi wo gucagingaho telefone, bawufashe mu ntoki.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye ya segonderi, buri wese akaba afite ikimuranga kiri imbere ye, bakaba bari guhabwa amabwiriza, bishoboka ko ari indangamanota bamaze kubona, bakaba biteguye gutaha bajyanye umusaruro w'ibyo bakoreye mu myigire yabo.

Ni abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ari yo sekondere. Bakaba biga ibijyanye n'imyuga ubudozi ni bwo barimo. Hakaba hari umunyeshuri ku mashini, akaba ari kudoda. Bashobora kudoda imyenda itandukanye y'abantu batandukanye bitewe n'ubwoko ubwa ari bwo.

Abanyeshuri bo muri segonderi biga mu mashuri yisumbuye, bakaba biga ibijyanye n'imyuga, bakaba hano ari mu cyumba kirimo imashini, bakaba biga kudoda imyambaro itandukanye y'ubwoko runaka, bikazabafasha ku isoko ry'umurimo, kugira ngo babashe kubona amafaranga abatunga.

Umunyeshuri wo mu mashuri yisumbuye, akaba ari kwimenyereza umwuga wo gukora paratike bitewe n'ibyo yiga, cyane cyane nk' ikiganga, yambaye za ga n'umwenda w'akazi w'itataburiya, akaba ari mu bitabo. Yimenyereza umwuga w'ibyo ashaka kuzaba byo.

Abanyeshuri bari mu ishuri, ni banyeshuri bakuru bo muri segonderi bakaba bari kwiga bakurikiye mwarimu, mwarimu ari imbere ari kubigisha isomo baramukurikiye bicaye ku ntebe amakayi yabo ari ku meza, bakicara ku ntebe bambaye iniforume y'umweru n'indi isa na kaki.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye bari gusoza umwaka, bakaba bari mu gikorwa bita garadiwesheni, kugira ngo bahabwe impamyabumenyi cyangwa impamyabushobozi z'amasomo bize, bitewe y'uko bayagejeje ku musozo.

Icyumba abanyeshuri bigiramo biga ibijyanye n'imyuga, akaba ari abanyeshuri bo mu cyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye ariyo ya segondere, hakaba hagaragara lavabo iriho imigezi bifashisha bari gukora amasuku atandukanye.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye muri segonderi. Buri wese akaba afite imashini imbere ye. Bari kwiga icyo bita Ayisiti, ibintu bita ikoranabuhanga, ari ryo rigezweho mu iterambere ry'isi yose kugira ngo babashe kuzajya bihangira imirimo.

Abanyeshuri bo muri segonderi biga imyuga irimo ubusudizi, ububaji ndetse n'ibindi bakaba bafite ibikoresho by'imashini zitandukanye, bitunganya ububaji bwabo bitewe n'icyo bagiye gukora, izo mashini zikaba zikoreshwa n'amashanyarazi.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye muri seconderi, bakiga ibijyanye n'imyuga, bakaba bari kudoda imyambaro itandukanye, bakaba bifuza kwiteza imbere, kubera ko ubudozi n'ibindi by'imyuga ari byo biri ku isoko ry'umurimo, bikabahesha amafaranga.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye segonderi biga ibijyanye n'imyuga, bari kwiga uburyo bakata ibyuma bifashishije ibindi byuma byabugenewe bita silemeto, ndetse n'ibindi byuma bikomeye kugira ngo babashe guterateranya bya byuma babikoremo ikindi kintu bifuza bitewe n'uko babyize.